Aba ni abantu benshi bicaye, ubona ko bari mu nama, imbere yabo hari ameza, hariho ururabyo, ariko aya meza akaba ateguye ku gitambaro cy'ubururu n'umuhondo.

Aba ni abamama batatu bicaye. Urabona ko bari kumva, bateze amatwi, abafite amakaramu, bari kwandika, imbere yabo hateretse amazi, amasakoshi.

Aha biragaragara ko ari abantu bicaye mu ntebe z'imisego ubona ko hari ibyo bari kwigaho bamwe imbere yabo hari mashine n'amazi inyuma yaho hari umuntu uri kubakamera.

Mu kibuga cyigishirizwamo gutwara amapikipiki, umupolisi umwe azamuye ikiganza yereka mugenzi we uri hakurya. Hari utwaye ipikipiki uri kurebana n'uyu mupolisi.

Abantu babiri bicaye ubona ko hari ibyo bari kuganira umwe afite mikoro ubona ko ari kuvuga imbere yabo, hari amazi hari n'amatase hari n'ifoke iruhande rwaho hari umumama ubona ko ateze amatwi.

Iyi foto iragaragaza abantu bicaye bafite impapuro imbere yabo hagaze umuntu afite mikoro iruhande hari ibyuma by'irangururamajwi.

Biragaragara ko aba bantu bari mu nama, bicaye imbere yabo hari amazi hari na mikoro hari mashini, imbere yabo hari abirangariye, abari muri telefone, hari n'abandi ubona ko bateze amatwi.

Iyi nzu yicayemo abantu benshi ubona ko bari mu nama cyangwa bari gukora ikiganiro buri wese afite mashini ari kwandika.

Abagore, abagabo ,abakobwa n'abahungu bicaye muri sale nziza, inyuma harimo nabandi bantu bahagaze bicaye ku ntebe zitukura ndetse ibirenge byabo bikandagiye ku itapi nziza y'ubururu. Impande yabo hari igikuta ubona gifite amabara meza ubururu, umweru harasa neza rwose.

Aha mu nzu hicayemo abantu, ubona ko bari gutega amatwi, hari ikiganiro bari kubabwira, buri muntu imbere ye hateretse agacupa k'amazi.

Ikoranabuhanga ni ryiza ryakemuye byinshi ndetse ryatugejeje kuri byinshi mu iterambere, icyo ushatse gukora cyose iyo ugikoze oniliyini cyangwa se ukagikorera kuri mudasobwa uba wizeye ko byanga bikunda kizageraho kigomba kugaragara kandi kikagaragarira ku gihe kigasubizwa neza.

Uyu ni umumama uhagaze, imbere ye hari mikoro bigaragara ko ari kuvuga, yambaye rinete, yambaye n'ikote ry'umukara ririmo n'uturongo tw'umweru.

Aba ni abantu bicaye, ubona ko bari kuganirazwa, imbere yabo hari abandi bantu bicaye, harimo umusirikare, umupolisi, hari n'abandi bahagaze bafite mikoro bari kubaganiriza.

Aba ni abantu bicaye mu matente. Imbere yabo hari ameza, bagiye baterekaho amatelefone. Abafite ikayi mu ntoki yo kwandika, abandi urabona ko bateze amatwi.

Iyi ni inzu yicayemo abantu benshi. Aba bantu urabona ko imbere yabo hari umuntu upfukamye uri kubabwira. Hari umugabo uhagaze n'umumama bahagararanye.

Aba ni abantu benshi bicaye mu matente, imbere yabo hari umugore wambaye ikanzu afite mikoro ubona ko ari kubabwira bamuteze amatwi.

Iyi ni inzu yicayemo abantu benshi ariko atari benshi cyane, bicaye bari kureba biragaragara ko hari ibyo bari kwigaho bafite amakayi bari kwandika na mashini imbere yabo.

Aba ni abantu benshi bicaye ku ntebe ubona ko bari mu nama hari abafite amakaye imbere yabo bari kwandika bagiye bafite n'amazi imbere yabo bamwe urabona bari gukurikira bakumva ubundi bakandika.

Uyu ni umugaba ufite mikora imbere ye hari mashini bigaragarako ari kuvuga ubona yishimye ari guseka, inyuma ye hari kugaragara undi undi muntu wambaye umupira w'umuhondo.

Iyi foto iragaragaza abantu bicaye bafite amakaramu bari kwandika, impande yabo hari amazi na mikoro abandi urabona ko bateze amatwi.

Aba ni abantu bicaye, bari mu nama, buri wese agiye afite amazi imbere ye, imbere yabo hari umuntu ufite mikoro, uri kubaganiriza, hari n'icyapa cyanditseho," Imana y'inyeko rusange, y'abafatanyabikorwa b'akarere ka Gasabo".

Iri ni ipironi ritwara umuriro bishamikiyeho intsinga haba hari n'ikirere kiriho ibicu by'umweru n'ubururu.

Aha hiri kugaragara ko ari kuri banke hari imbere y'umuntu ufasha abantu, imbere ye hari akamashini kabara amafaranga.

Aba ni abantu ubona ko bahugiye muri terefoni. Harimo abagabo batatu, n'umumama umwe wasukishije imisatsi.

Uru rupapuro ruriho mashini iteretseho, hirya y'aho handitse amagambo avuga ngo "menyekanisha wishyure ndetse unarebe amakuru yose yerekeranye na fone yawe".

Aha hari kugaragara abantu batatu, abagabo babiri n'umukobwa umwe, bambaye udupfukamunwa. Umukobwa afite mashini ayirangariyemo n'abagabo babiri barangariye muri telefone.

Umukobwa usa neza uhagaze wambaye ikote n'ishati y'umweru mu maso n'inzobe afite imisatsi mu ntoki afitemo akantu kameze nk'impano bamuhaye, mbere ye hariho amagambo yanditse m'ururimi rw'igifaransa.

Aha ni mu muhanda. Harimo icyapa gishushanyijeho emutiyene. Ku ruhande hari n'akandi kantu kabaje mu giti, kariho inkweto bigaragara ko ziri gucuruzwa.

Uru rupapuro rwanditseho genzura neza ko amafaranga wayashyize ku ikarita yagiyeho mbere yo gushyira amafaranga ku ikarita yawe.

Aha ni mu nzu abantu bicaye ari benshi. Imbere yabo hagiye hateretse mashini urabona ko abantu bicaye bari gukurikira

Aba bantu bari kugaragara ko hari ibintu bari kureba muri mashine. Bambaye udupfukamunwa urabona ko barangaye cyane bari bizi, hirya yabo hari izindi mashine.

Iri ni ipirone ritanga umuriro hirya no hino bifasha rishamikiyeho insinga nyinshi hirya y'ipironi hari amazu.

Uyu ni umuhanda, urimo abamotari bari kugenda nta bagenzi, igare ririkumanukaho umuntu, hirya y'aho hari amazu, hari ibiti ku muhanda, hari n'amatara.

Iyi nzu ikamutiyeho inzu nyinshi, inyuma y'inzu hari ipironi ririho insinga nnshi hari n'amayesikariye amanuka ajya ku iduka.

Iri ni ipironi ritwara umuriro bishamikiyeho intsinga haba hari n'ikirere kiriho ibicu by'umweru n'ubururu.

Iyi ni inzu ifite igipangu cyubakishije imunyu mo imbere mu nzu haparatsemo imodoka harimo n'imikindo hari n'amapiloni ashamikiyeho insinga.

Aya ni amazu atandukanye amwe ari hepfo andi ari haruguru, hari n'igiti yatayeho insinga z'amashanyarazi, hari n'ahaparitse imodokadoka ifunguye urugi.

Iyi ni inzu ya etaje imbere y'inzu hari andi mazu, hari n'ibiti, hari n'igiti kiriho itara kiriho n'insinga gitwara umuriro hirya no hino.

Aya ni amapironi abiri ashamikiyeho insinga nyinshi zitwara umuriro hirya no hino kandi urabona ko ibicu ni ibicu byu'mweru n'iby'ubururu.

Aha hari kugaragara imodoka iri inyuma y'igipangu, umukindo, idarapo ry'u Rwanda n'amatara, ayo hanze, ari ku ipoto n'insinga zijyana umuriro.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo harimo abantu bari kugenda benshi bambaye udutaburi tw'umweru, hirya yabo hari amazu afite irange ry'umweru asakajwe n'amabati y'umutuku.

Iyi ni inzu ifite jaride irimo utwatsi dutoya, harimo, ibiti n'uturabyo hakaba hari amazu yubakishijeje impunyu asakaje amabati.

Ubu rero n'uburyo umuntu yishyura akoresheje ikoranabuhanga nawe urabona rwose imyirondoro y'iwe amazina, nimero za konte ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ushobora kwishyura rero utumiza ibintu hanze cyangwa mu kindi gihugu.

Aya ni amazu afite akayira karimo hagati y'amazu hejuru hashakaje amabati, aya mazu biragaragara ko ari kwa muganga.

Iyi foto iragaragaza abantu bane, batatu ni abacamanza bambaye amakanzu, undi umwe urabona ko ari imfungwa yambaye imyenda y'amaroza.

Uyu ni umugabo ufite ubwanwa yambaye ikanzu y'umutuku ufite imbere h'umukara n'ahandi h'umweru.

Uru ni urupapuro rwanditseho umutwe wa gatatu. Ibyaha n'ibihano bya ruswa. Ingingo ya kane : gusaba, kwakira cyangwa gutanga, indonke.

Uyu mugabo aricaye afite ekuteri mu matwi biragaragara ko ari gutanga ikiganiro ariko urabona ko ategereye.

Aha ni mu nzu hicayemo abantu bamwe urabona ko ari abanyamategeko bambayeye amakanzu y'imikara bambaye n'udupfukamunwa bafite n'ibitabo, impapuro mu ntoki, hagati yabo hicaye imfungwa yambaye imyenda y'amaroza.

Aba ni abantu benshi bicaye bigaragara ko ari abacamanza bambaye amakanzu y'imikara imbere yabo hagiye hateretse ameza ariho amacupa, arimo ibintu n'amakayi n'ikaramu.

Iyi foto iragaragaza abagabo bicaye bambaye amakanzu hari ni undi muntu uhagaze imbereye hari impapuro ubona ko ari kwandika impande ye hari abandi bantu bari kumureba.

Aba ni abantu batatu bicaye mu ntebe abagabo babiri n'umukobwa umwe aba bafite impapuro na telefone imbere yabo kandi imbere yabo amazi.

Aha hari kugaragara ko ari mu muhanda , mu muhanda harimo imodoka y'umuhondo hakagaragara n'umugabo wambaye umuhiri yambaye n'agapfukamunwa.

Iyi ni imodoka. Yegamyeho umu mama wambaye agashati k'umweru n'akanigi mw'ijosi, acyenyeye igitenge. Imbere y'imodoka urabonako hari umusirikare, uri gufungura imodoka.

Aba bantu bicaye hamwe ari benshi biragaragara ko bari nko mu nama imbere yabo hahagaze abagabo batatu bisa naho barikubaganiriza hari n'uwambaye umupira wanditseho indi ntambwe.

Aba ni abayobozi bari guseka, ubona ko bishimye, inyuma yabo hari abandi bantu benshi barimo na perezida w'u Rwanda.

Aba ni abantu babiri ari umugabo n'umugore, umugore akenyeye umukenyero umugore yambaye linenete n'amaren urabona ko yumiwe yatangaye.

Aba bantu biragaragara ko ari benshi barishimye. Hari abantu bakuru hari n'abana. Hari abafite amatelefone bari gukamera umugabo uri guhobera abana babiri ubona ko bishimye.

Iyo foto iri kugaragaza umumama washokoje imisatsi, wambaye n'amaherena. Yicaye ku ntebe ibajwe mu biti, yambaye inkweto ebyiri n'agakomo ku maboko.

Uyu ni mukuru w'igihugu uyobora u Rwanda ari kumwe n'bandi bayobozi urikubona ko bari mu nzira bari kugenda hari abafite bukapu mu ntoki.

Ni imitako ikorwa n'abanyabugeni, imanitse ku rukuta rw'umukara ubusanzwe ibi byifashishwa mu kubitaka mu mazu, yaba ayo mu ngo ndetse n'ahatangirwamo serivisi.

Aha hari kugaragara umukuru w'igihugu, imbere ye hari mikoro, n'abantu benshi bicaye hirya no hino, bigaragara ko ariko kubaganiriza.

Uyu ni umuhanda w'igitaka ariko hirya y'umuhanda hari amazu imbere yayo hari abantu, nabona hino hari abantu ubabona ko bari bicaye ariko bari guhahaguruka basuhuza abantu.

Iyi ni imihanda ibiri ya kaburimbo, itandukanyijwe n'imikindo, mu muhanda umwe harimo imodoka, hirya y'umuhanda hari ibiti, mu wundi muhanda harimo moto itwaye umugenzi.

Iyi foto iragaragaza imihanda ibiri iyo muhanda ibiri itandukanizwamo n'utwatsi n'ibiti mu mihanda harimo imodoka iri kugenda harimo n'ibara ry'umuhodo.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini iri kugenda harimo n'umumotari utwaye umugenzi hirya hari intebe ku muhanda.

Umuhanda uragaragara urimo umumotari utwaye moto, utwayeho n'umugenzi bambaye kasike ariko umumotari atwarishije akaboko kamwe akandi kifashe ku munwa.

Ibi ni ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda ikomeye inyurwamo n'ibinyabiziga nka za hoho n'amabisi atwara abagenzi.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abagenzi hari umuntu uri kugenda amanuka hari undi uri kuzamuka wambaye igisurubeti wikoreyemo n'umafuka.

Uyu ni umuhanda w'ibitaka harimo abamotari badafite abagenzi, harimo umumotari bari guhekesha umuzigo kuri moto hari n'abantu ubona ko bari kugenda abandi bari kuganira.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo bigaragara ko ushaje. Harimo imodoka itwaye imizigo, n'umumotari uhetse umugenzi. Hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abagenzi, n'ibiti.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo bubatse ubonana ko bashyiramo n'akayira k'abagenzi gafashemo amabuye mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini itwaye ibitaka.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo impande n'impande bashyizeho akayira k'abagenzi hakaba harimo imodoka y'umweru n'igare ritwaye umugenzi.

Uyu ni umuhanda w'ibito harimo imodoka ebyiri nini ubona ko zitwaye imizigo, imbere y'iyo modoka zirakomeje zirakurikirane irya hari ibiti.

Iyi foto iragaragaza imodoka nini iri mu muhanda iteye amabara y'umukara umweru n'umuhondo n'ubururu imbere yayo harimo abantu bari kugenda bari kumanuka.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwaye imizigo, inyuma mu modoka hicara umuntu uri kureba muri telefone, harimo n'umumotari uhetse umugenzi.

Uyu muhanda ni umuhanda w'igitaka urimo imodoka yitwa dayihatsu itwaye imizigo harimo igare ritwaye umugenzi harimo n'abamotari bari kugenda.

Izi n'imodoka ebyiri ziri mu muhanda nyine, hagati y'izi modoka harimo umuntu wambaye ipantaro, wambaye n'isengeri, mu mugongo handitseho mirongo itanu na rimwe.

Aha biri kugaragara ko ari mu muhanda ari nijoro hari amatara yo ku muhanda hari n'ibyuma bifite amapine batwaramo imizigo.

Ifitemo amabara atandukanye cyane cyane ay'umutuku yanditseho amagambo y' umweru, avuga ngo banki nkuru y'u Rwanda munsi hakaba harimo ingagi iri ahantu mubihuru hirya akaba hari ahantu handitse ibihumbi bitanu na beneri(BNR).

Uyu ni umuhanda imwe urimo kaburimbo undi ushashemo amatapi ni mihanda ibiri itandukanijwe n'ibyuma, hirya y'imihanda hirya y'imihanda hagiye handitseho hari n'icyapa.

Uyu ni mu muhanda wa kaburimbo, hirya yawo hari ibiti, hari n'ibyapa biri mu ibara ry'umweru n'umuhondo, hakaba bashushanyijemo inyuguti ya te.

Iki ni icyapa kiri mu mategeko y'umuhanda. Iki cyapa gishushanyije mu ruziga rutukura, mo imbere harimo akarongo gatukura, n'inyuguti ya ra y'umukara.

Iki ni icyapa kigaragaza amategeko y'umuhanda, iki cyapa kiri mu ibara ya orange mu imbere hakaba handitsemo amagambo yanditse mu mukara.

Iyi n'inzu isakaje amabati meza afite igipangu cyubakishije imunyu hejuru basojejeho sima, inyuma harigiputa kiriho nomero rimwe, umunani, gatanu.

Handitseho irembo ahatangirwa ubufasha ku birebana no kwiyandikisha cyangwa se mu kwishyura imisoro, kwifotoza n'ibindi bijye bitandukanye.

Iki ni icyapa kigaragaza amategeko yumuhanda iki cyapa gifite uruziga umutuku mwimbere umweru na miringo itatu yanditse mu mukara.

Uyu ni umuhanda ushashemo amabuye. Rero uyu muhanda ku nyengero zawo hakikijwe n'ibiti harinaho hari umutaka wa Mtn bacururizamo amayinite.

Iyi foto iragaragaza hariho igiti kinini gifite amashami menshi hari n'icyapa cy'umuhondo hazinzeho akazeru gatukura kanditsemo mirongo itatu.

Iki ni icyapa kigaragaza amategeko y'umuhanda, icyapa kiri mu ruziga rw'umutuku n'umweru mo imbere hashushanyijemo agafuleshi kamanutse kandi kazamuka.

Iki ni icyapa cyo mu mategeko y'umuhanda. Hariho amagambo y'umutuku, mo imbere handitseho mirongo itatu, bigaragara ko ari yo minota umuntu aba yemerewe kugenda.

Iyo foto iragaragaza inyubako ndende ya etaje iriho amadirishya n'ibirahure ifite amarange ya ruje borudo.

Aha ni mu muhanda uri hagati y'amazu, harimo abantu bari kugenda n'amaguru, hari n'umurimo wicaye ku igare n'imodoka y'umukara iri imbere iri kugenda.

Aha biragaragara ko ari inzu itangirwamo ubufasha butandukanye, iruhane rw'iy'inzu ikikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye n'indabyo.

Uyu ni umuhanda uparitsemo imodoka nimero yayo hari, amazu ubabona ko bacururizamo ubucuruzi hari irembo ritanga serivise.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka iri kugenda. Hirya y'umuhanda hari akayira k'abagenzi mu muhanda hari umutaka wa emutiyeni.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, biri kugaragara ko ahani ni ku nkengero z'umuhanda, hari imikindo, indabo hari n'amazu, hari n'ahanditse Kimironko kwa Mushimire.

Aya mazu biragaragara ko hari amazu ya etaje, hari n'amazu atari aya etaje hagati y'aya mazu hirya no hino hagiye harimo ibiti.

Aya mazu akikijwe n'ibiti byinshi kandi aya mazu yubatse ku buryo bwegeranye, harasakaje amabati atukura, asakaje amabati y'umweru, hakabaho hari n'icyapa byanditseho Remera.

Ese wari uziko bitakiri ngombwa guhangayika wibaza ngo nakoresha iyihe modoka ngiye mu bikorwa byanjye bitandukanye mu gihe njye ntaragura ikinyabiziga cyanjye? Nk'uko mubibona ahangaha hari ahantu haparitse amamodoka atandukanye n'ay'uruganda bita yego, ushobora kuyihamagara ikaba yazi ikagukura iwawe mu rugo ikakujyana aho ariho hose wakwifuza, bagira serivisi nziza kandi ku giciro cyiza.

Iyi foto iragaragaza umuhanda ushashemo amabuye ku mpande hakikije amazu, ibiti, indabo n'ibya n'icyapa cyanditseho.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo hirya yawo hari imikindo, mu muhanda harimo abantu bari kugenda biri kugaragara ko ari ninjoro bwije.

Aha biragaragara ko ari mu muhanda wakaburimbo harimo umumotari utwara moto nta mugenzi atwaye hirya y'umuhanda hari ibiti hari n'icyapa kiriho umweru n'umutuku.

Uyu n'umuhanda wa kaburimbo. Urimo imirongo myinshi y'umweru, hari n'undi muhanda ushamikiyeho, urimo moto, abantu bari kugenda...

Uyu ni umuhanda wa kaburimboko urimo moto ziri kugenda n'imodoka, hirya y'umuhanda basizeho akayira k'abagenzi hepfo hari icyapa cyanditseho pi n'ibiti n'indabo.

Uyu ni umuhanda ushamikiyeho indi mihanda. Nta modoka n'imwe irimo. Ku nkengero z'umuhanda hariho ibiti n'inzu.

Iyi foto iragaragaza umuhanda wa kaburimbo ishamikiyeho, n'undi w'igitaka, k'uwo ushamikiyeho hariho igare, ku mpande z'umuhanda hagiye hateye ho indabo.

Mu nzu y'ubucuruzi etajeri ndende ziriho ibiribwa bitandukanye, harimo ibirungo bikoreshwa mu cyayi. Ikiganza cy'ufashe icupa mu ntoki.

Uyu ni umuhanda w'igitaka ku nkengero z'umuhanda hari ahari ibiti, ahandi hari amazu, hari n'indabo. Uyu muhanda urabona ko utameze neza.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka iri kugenda, ku ruhande hari n'akayira k'abagenzi bagenda n'amaguru, impande n'impande z'umuhanda hari ibiti.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, ariko bashyizeho n'akayira k'abagenzi. Umuhanda wa kaburimbo hari ahashaje, haraho ubona ko hakiri hazima, harmo n'abamotari, abamotari bamwe batwaye abagenzi.

Iyi foto iragaragaza umuhanda hirya bashyizeho akayira k'abagenda n'amaguru harimo n'umugabo uri kugenda uri kuri terefone yambaye n'itaburiya.

Uyu n'umuhanda wa kaburimbo, ariko hirya yawo, hari undi muhanda bigaragara ko ushaje. Hirya y'umuhanda wa kaburimbo hariyo amazu acururizwamo, n'imitaka ya mtn, airtel na moto.

Aha biragaragara ko ari umuhanda wa kaburimbo ariko urimo n'ivumbi, harimo abamotari batwaye abagenzi, hirya y'umuhanda hari akayira k'abagenzi inyuma yaho hari n'ibiti.